Muri lavabo umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse harimo n'imigezi ,hakaba hariho insinga z'umutuku urutsiga rw'umutuku n'izindi nsinga zitandukanye, n'akapuri cyangwa se kagari guhuza za nsinga ziri guhuriramo n'amajage.

Ubukarabiro e noneho buri muri resitora harimo agataburete ,harimo n'imigezi harimo noneho n'umugozi w'umutuku e uri guhuza ubukarabiro e n'ibyuma biyobora amazi mu bukarabiro, e ubwo buKarabiro bukaba bwubakishije amapave y'umweru.

Laboratwari irimo ibikoresho bikoreshwa bari kwigisha isomo rya Shimi cyangwa se Kemisitiri, iyi nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, akaba ari mu kigo cy'ishuri.

Ikigo cy'amashuri cya Kampanga kikaba imbere yacyo muri jaride hari voka, hakaba hariho n'ibyumba iriya nzu yo hepfo ni kompiyuta labu, hirya ni abakozi b'isuku bariyo ,haraguru akaba ari amashuri abanyeshuri bigiramo ari kumwe nayo.

Umudugudu w'icyitegererezo urimo amazu ya fo ini one, yubakishijwe amatafari n'ibigega bya sterine bibiri yubatswe hejuru y'umuhanda, aha hejuru y'umuhanda hariho na jaride, ayo mazu akaba asize irangi ry'umweru ku madirishya n'icyatsi.

Abanyeshuri basa naho, bari gukora ikizamini cya Leta.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'umweru bakaba cyangwa se amataburiya, imbere hakaba hari umuntu uri kubereka uko bakaranga ibiryo, hakaba hariho ameza ariho isafuriya.

Ikiganza gifashe umupira bari kuboha uwo mupira ukaba uri kubohwa n'imashini, imashini ikaba iri kugenda izengurutse urudodo urwo rudodo rukaba ruri bugende rukaza kuvamo igishora. Imashini ni igikoresho cyifashishwa mu gukora imyenda itandukanye kandi ibishora iyo bamaze kubidoda barabyifubika.

Umukobwa uri gukoresha icyarahani, impande ye hakaba hari imashini, izo mashini akaba ari imashini z'amaguru, imashini zidoda, uyu mukobwa akaba yambaye agapira k'umukara, ari guseka afite na metero mu ijosi. Kudoda ni umwuga wigwa n'abantu benshi bacikishije amashuri, iyo bakoze uyu mwuga badoda imyenda tukayambara.

Umuseriveri muri hoteri, ufite ibyo kurya ku isahani y'idongo, akaba yambaye imyenda y'umweru, yambaye n'ingofero y'umweru, impande hakaba hakikijwe ibyuma, ari mu gikoni, ari kumwe n'undi uri hirya ye, bari gutegura icyo kurya.

Umukobwa n'umuhungu bari muri siriveya bambaye isarubeti z'icyatsi, bakaba bafite imashini zibaza, bari gukora , bari kubaza intebe, bari gukora intebe ndetse n'ibitanda, izo sarubeti ni ubururu.

Abasuderi bari gusudira inzugi n'amadirishya, aha ngaha ni muri kenkayori, aho basudirira nyine inzugi n'amadirishya, ibi bikaba biri gukorerwa mu cyumba, bari gusudira inzugi byo kubaka amashuri mu santere.

Umunyeshuri uri mu ishuri yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'mweru, hakaba harimo intebe ndetse na compiyuta izo bita desikitopu, ari gukurikirana uko amasomo ari bugende.

Abagabo babiri n'umukobwa, bambaye amasarureti y'ubururu umugabo umwe ari imbere ya compiyuta, umukobwa n'umuhungu bari guhuza insinga bari gukanika bari kwiga bari gukanika ibyo byuma, kugira ngo barebe niba biri gukora muri make bari gukora ibyo biti mpuzanzirara.

Abantu bagiye kurya, abanyeshuri ku kigo cy'amashuri basuwe n'ubuyobozi butandukanye, bagiye gufata ifunguro rya sa sita ku meza, ari ryo umuceri ndetse na karoti n'ibishyimbo ariko bateguriwe ko bari bufate n'umuneke. Ndabona imbere yabo hari amasahane n'ibikombe, buriya baraza kubona n'icyo ...

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi vuwatire, ikaba impande yayo hari abasore benshi cyane b'abanyeshuri bari kuyikora. Iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umutuku hejuru, hasi ari umukara. Noneho abo banyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu, bamwe bari munsi yayo bari kuyikanika.

Mu kigo cy'ishuri rya tekinike abanyeshuri bari gusudira bari gukora bari gukora ibikoresho bitandukanye bakoresheje amamashini, hari nk'imashini zikata impapuro, abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'abarimu harimo n'abarimu bambaye amasarubeti y'umukara e akaba ari muri wakishopu.

Abakozi bo muri hoteri，bambaye imyenda y'umweru n'ingofero z'umweru， bari impande y’ameza， bateguye ibyo kurya ku masahani， birimo sarade.

Umuganga uri muri laboratwari, yambaye itaburiya afite akamashini gapima abarwayi kareba uko umutima uhagaze uri gukora n'amaraso ari gutembera. Ari muri laboratware.

Abanyeshuri bari kwiga seti, bari mu ishuri muri ekole do siyanse, bari kwiga seti mu ishuri, bari kwiga ibintu bijyane n'ikoranabuhanga. Aba banyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri kwiga, bari gukora iby'uburezi, mbese bari kwiga bagamije kuzabona diporomi.

Abagabo bambaye amasarubeti y'umweru n'abakobwa harimo n'umugabo w'umuganga uri gutegura urushinge twakwita veterineri bagiye gutera inka y'umutuku; ifite ibara ry'igitaka, iri imbere ya bo. Abandi bari kwitegereza uko urwo rushinge bari burutere.

Abanyeshuri bari mu ishuri, harimo umunyeshuri uhagaze n'umugabo wundi utari umwarimu wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu, hakabamo n'umwarimu uri imbere ku kibaho wambaye itaburiya, ubwo abanyeshuri bakaba bicaye, bafite amakaye imbere yabo bari gukurikirana ibyo uwo mugabo uri mu ishuri ariko kubwira uwo mwana uhagaze.

Muri hoteri umuseriveri w'umukobwa uri guseriva icupa ry'inzoga, afite n'ikirahuri atwaye mu ntoki, akaba umukobwa uri guseka ndetse ufite imisatsi y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru n'akane mu ijosi.

Ibyuma bakoresha bakanika imodoka ibyuma bitandukanye ni ibyuma byinshi noneho ibyo byuma hakaba harimo ibyuma bitanditse mu isoko ryabyo aho babigurira. Ibyo byuma hakaba harimo ipenso, hakaba harimo ibyuma bitandukanye.

Aba, umuhungu n'abakobwa babiri bambaye amasarubeti bari muri wakeshopu. Aba banyeshuri bakaba bambaye n'udupfukamunwa, izo sarubeti bambaye ni isarubeti z'ubururu bakaba bari muri wakeshopu bari gukanika ibyo ,bari gutunganya ibyo biga.